Aba ni abanyeshuri bari ku ishuri bakaba bicaranye mu matsinda biga isomo rijyanye no gukoresha mudasobwa, bakaba barimo kugenda basobanurirwa n'umwarimu wabo, ubigisha isomo.

ikiganiro kiri bunyure kuri radio rwanda saa mbiri na cumi n'itanu gisobanura itariki ntarengwa yo kwishyura umusoro w'ipatanti y'igihembwe cya nyuma n'itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwa cumi bibiri makumya na kane.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga ndetse n'abantu barimo kubigenderaho kandi hari n'abarimo kugenda n'amaguru, hari n'icyapa cyamamariza Airtel mu buryo bwo kohereza no kwakira amafaranga.

Uyu ni umuhanda, hakaba hari abantu barimo kugendera ku gahanda k'abanyamaguru ndetse n'abandi barimo kugendera ku binyabiziga mu muhanda, ku muhanda na none hakaba hariho amapoto kandi turabona n'umuntu urimo gukora isuku ku muhanda.

Uyu ni umuhanda urimo kunyuramo ibinyabiziga ndetse n'abantu, aho tubona ibinyabiziga byinshi bitwaye abantu ndetse n'ibitabatwaye kandi uyu muhanda bikaba bigaragara ko harimo n'abantu benshi barimo kuwukoresha batari ku binyabiziga.

Aha ni kwa muganga cyangwa se ku bitaro, aho abantu baje kwivuza, hakaba hari abantu bategerereje aho basuzumira kugira ngo umuganga aze kubasuzuma, abahe ibisubizo by'ibyo barwaye.

Aha ni kwa muganga, aho tubona bagenda bavura indwara zitandukanye, haba kubaga abantu, indwara z'abana, kandi turabona ko hari ibyapa bigiye byerekana abantu aho bagomba kugenda, kwivuriza.

Gereza ya Nyanza, aho abantu benshi bagiye batandukanye bashinjwa ibyaha, bashyirwa ndetse bakajya bagenda kuburana uko ibihe byabo bigiye byegereje.

Uyu nguyu ni uwitwa Rusesabagina Paul, akaba yarabarizwaga mu bihugu byo hanze kandi akaba yaragize uruhare mu bijyanye na Jenoside yakorewe abatutsi muri mirongo icyenda na kane, akaba yari azanywe, ubutabera ngo abushyikirizwe, aburanishwe.

Aha ngaha ni mu muhanda aho tubona ibinyabiziga bigiye bitandukanye ndetse tukabona n'umupolisi urimo gucunga umutekano w'umuhanda, arimo ahereza abantu amabwiriza barimo gukoresha ibi binyabiziga.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga birimo imodoka ndetse na moto, zitwaye abagenzi ahantu hagiye hatandukanye kandi kuri uyu muhanda turabona umupolisi, urimo ukurikirana umutekano wo mu muhanda uko ugiye umeze. Akareba n'amakosa arimo gukorerwamo.

Uyu ni umuhanda, ukaba urimo imodoka aho umupolisikazi yahagaritse umuntu wari utwaye amubaza ibyangombwa by'imodoka, anamuganiriza mu buryo bwo kubahiriza umutekano w'umuhanda.

Iyi ni polisi iherereye mu karere ka Nyarugenge i Kigali, aho abantu bagiye batandukanye bafite ibirego bajyana, maze bakagezwa ku magereza agiye atandukanye.

Uyu ni umuhanda ugenderamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye kandi ukaba ugaragaramo imodoka ya polisi iri ku ruhande, mu gahanda k'abanyamaguru harimo umugenzi ufite ututubido agiye ahantu kudukoresha kandi hakaba hegereye n'ibiti ndetse n'inyubako ndende.

Uyu ni umuhanda uri hafi ya gare, gare ikaba irimo ibinyabiziga bitwara abagenzi, hanyuma ku muhanda turahabona moto, hari n'umupolisi urimo gucunga umutekano w'umuhanda.

Aba ngaba ni abakozi bagiye batandukanye bo mu nteko inshingamategeko, uyu nguyu akaba ari umunsi mukuru wabo wo kurahira, bakaba bari barimo kurahira imbere nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame n'abandi.

Umuhanda urimo ikinyabiziga kiri mu bwoko bw'ikamyo kandi ku ruhande hakaba hari akayira k'abanyamaguru, hari n'abanyamaguru babiri barimo kugenderaho ndetse hari n'ibiti byegereye uyu muhanda.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga by'amakamyo maremare kandi kuri uyu muhanda hakaba hari n'agahanda k'abanyamaguru, aho abantu badakoresha ibinyabiziga bagomba kunyura ndetse hakaba hari n'ibiti birebire byegereye umuhanda.

Uyu nguyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga, cyane cyane moto zihetse abantu. Ariko bikaba bigaragara ko uyu muhanda ufite ikibazo ukeneye gusanwa ugahinduka mushyashya.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye harimo kwasiteri, harimo imodoka isanzwe, harimo moto, ndetse hari n'agahanda k'abanyamaguru, abadakoresha imodoka bagomba kunyuramo, hari n'ibiti birebire, byegereye uyu umuhanda.

Uyu ni umuhanda ukaba uri kunyuramo ikinyabiziga cy'ikamyo, gifite ibara ritukura kandi uyu muhanda ukaba ufite n'agahanda k'abanyamaguru, aho abantu badakoresha ibinyabiziga banyura ndetse ukaba wegereye n'ibiti birebire.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga bigiye bitandukanye kandi bigiye ahantu hatandukanye, hakaba hari isuku, hakaba ku ruhande rwo hirya hari umudamu urimo gukora isuku atoragura imyanda iri ku muhanda ndetse tukaba tubona n'ibiti byiza byegereye umuhanda.

Uyu ni umuhanda uriho ibikamyo bibiri, kimwe gifite ibara ry'ubururu n'i ikindi gifite ibara ritukura, ndetse kuri uyu muhanda hakaba hari n'akayira k'abanyamaguru aho abantu badakoresha imodoka banyura.

Uyu ni umuhanda ukaba urimo kunyuramo ibininyabiziga bigiye bitandukanye harimo ikamyo, harimo umumotari uhetse umugenzi, hakaba harimo n'umuntu urimo gutwara igare kandi uyu muhanda ukaba ufite agahanda k'abanyamaguru.

Uyu ni umuhanda ariko bisa nkaho wangiritse ukeneye gusanwa, hakaba hariho ikamyo ndetse na moto, tukaba tubona n'igare, uyu muhanda nanone hari ibiti biwukikije birebire.

Umuhanda uriho ibinyabiziga byinshi bitandukanye, harimo amamoto, hari imodoka, hari n'agahanda abantu bambukiraho ndetse hari n'agahanda k'abanyamaguru abantu badakoresha imodoka bagomba kunyuramo.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga ndetse n'abantu barimo kugenda mu muhanda harimo ikinyabiziga ki mu bwoko bw'ikamyo ndende iyi ikamyo ikaba yarakorewe mu gihugu cy'u Rwanda.

Uyu ni umuhanda uriho ibinyabiziga bigiye bitandukanye, amamodoka, moto, igare ndetse ku ruhande hakaba hari n'agahanda k'abanyamaguru, aho tubona umugore urimo gucuruza ibisheke biri mu ndobo.

Uyu ni umuhanda ukaba nta binyabiziga byinshi birimo, harimo moto imwe itariho umugenzi, akaba ku ruhande hari agahanda k'abanyamaguru ndetse n'ibiti birebire, hariho n'inyubako zegereye umuhanda.

Uyu ni umuhanda urimo imodoka nkeya, hakaba hari n'akayira k'abanyamaguru, aho abantu badakoresha ibinyabiziga bagomba kunyura ndetse no kuri uyu umuhanda hakaba hariho ibiti bihegereye birebire.

Uyu ni umuhanda ukaba urimo kugenderamo ibinyabiziga bitandukanye, amakamyo, imodoka zisanzwe ndetse na moto. Ku ruhande hari agahanda k'abanyamaguru kandi hafi y'umuhanda hariho amapoto ndetse n'ibiti birebire.

Uyu ni umuhanda ariko birasa nkaho wangiritse, harimo ibitore byinshi n'ibyobo, ukaba ukeneye gusanwa, kandi ku ruhande hari agahanda k'abanyamaguru, aho abantu badakoresha ibinyabiziga bagomba kunyura, hari n'ibiti birebire byegereye umuhanda.

Uyu ni umuhanda utarimo ibinyabiziga byinshi, hakaba harimo ikamyo ifite amabara y'umweru ndetse n'ubururu, hakaba hari n'agahanda k'abanyamaguru, aho abantu badakoresha ibinyabiziga banyura ndetse uyu muhanda biragaragara ko wangiritse ukeneye gusanwa.

Uyu ni umuhanda utuje utarimo ibinyabiziga byinshi, harimo umumotari utwaye umugenzi ufite aho agiye, hakaba hari n'inyubako yegereye uyu umuhanda ikaba ari ndende cyane, uyu muhanda ufite n'agahanda k'abanyamaguru, aho abantu badakoresha ibinyabiziga bagomba kunyura ndetse n'ibiti biri hafi aho.

Ni umuhanda wiganjemo ibinyabiziga byinshi harimo amakamyo, harimo amabisi, harimo amamodoka isanzwe, harimo amamoto ndetse harimo n'igare kandi ku ruhande hari agahanda k'abanyamaguru.

Uyu ni umuhanda ukaba urimo kugenderamo ikamyo isa n'umutuku, kandi hakaba hari n'ibiti byegereye umuhanda, ku ruhande nanone hari akayira k'abanyamaguru aho abantu badakoresha ibinyabiziga bagomba kunyura.

Uyu ni umuhanda uriho ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hariho ikamyo, ama moto ahetse abagenzi bagira ahantu hatandukanye, ariko biragaragara ko uyu muhanda usa nk'uwangiritse ukeneye gusanwa, hafi y'umuhanda hari ibiti bihegereye ndetse n'amapoto.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga byiganjemo amakamyo aturuka haruguru ndetse na moto zituruka hepfo, tukabona n'agahanda k'abanyamaguru kegereye ibiti byinshi birebire.

Uyu ni umuhanda ukaba ufite ikinyabiziga cya kwasiteri kirimo kuhanyura kandi hakaba hari n'akayira k'abanyamaguru, aho tubona umuntu urimo kugakoresha ndetse hakaba hari n'ibiti birebire byegereye umuhanda.

Umuhanda urimo ikamyo irimo guturuka ruguru, hakaba hari na moto iri guturuka hepfo ndetse hirya hakaba hari n'ibiti bigiye bikikije umuhanda.

Uyu ni umuhanda urimo kunyuramo ibinyabiziga birimo ikamyo ndetse n'umumotari udafite umugenzi ariko birasa nkaho uyu muhanda urimo kwangirika ukeneyewe gusanwa ndetse hakaba hari n'akayira k'abanyamaguru.

Umuhanda urimo ibinyabiziga hakaba hari n'agahanda k'abanyamaguru aho tubona umudamu urimo gucuruza ibisheke biri mu ndobo, tukabona n'ibiti biri hirya mu gahanda kandi k'abanyamaguru.

Uyu ni umuhandaba urimo kunyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye harimo kwasiteri, harimo igikamyo ndetse no mu kayira k'abanyamaguru, hakaba harimo abantu barimo kunyuramo aho tubona umuntu uri ku igare arisunika atwayeho umufuka munini.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye biri mu bwoko bwa moto, amamodoka ndetse n'ikamyo, hakaba hari n'agahanda k'abanyamaguru aho abanyamaguru benshi barimo kugakoresha bagenda ahantu hatandukanye kandi ku ruhande hakaba hari n'ibiti bikikije umuhanda.

Uyu ni umuhanda ariko usa nkaho wangiritse ukeneye gusanwa hakaba hari n'agahanda k'abanyamaguru ndetse turabonamo n'ikinyabiziga cy'ikamyo gifite aho cyerekeje.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga bitandukanye, harimo bisi, hakaba hariho na moto, turabona n'ibiti bikikije uyu muhanda kandi na none hakaba hari n'akayira k'abanyamaguru, ahari abanyamaguru batatu barimo kugenda ahantu hatandukanye.

Uyu ni umuhanda utuje utariho ibinyabiziga byinshi, hakaba hari n'aho kwambukira, abagenzi ndetse hakaba hari n'akayira k'abanyamaguru, aho abantu badakoresha ibinyabiziga bagomba kunyura kandi hariho n'ibiti birebire byegereye uyu muhanda.

Uyu ni umuhanda ukaba urimo kunyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, harimo amakamyo, amamoto ndetse n'amagare ariko biragaragara ko uyu muhanda usa nk'uwangiritse ukeneye gusanwa.

Uyu ni umuhanda urimo kunyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye kandi hakaba hari n'agahanda k'abanyamaguru, aho turimo kubona umuntu urimuo kugakoresha ndetse uyu muhanda ukaba wegereye n'ibiti birebire cyane.

Uyu n'umuhanda ukaba urimo kugenderamo ibinyabiziga, kandi hakaba hari n'imodoka ziparitse imbere y'inyubako ndende nyinshi, uyu muhanda ukaba ufite akayira k'abanyamaguru, abantu badakoresha imodoka barimo kunyura.

Uyu ni umuhanda utuje urimo umumotari umwe uhetse umugenzi, ku ruhande hakaba agahanda k'abanyamaguru kandi kakaba gakikijwe n'ibiti byinshi yaba hepfo ndetse no haruguru.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, harimo kwasiteri amamoto atwaye abagenzi ndetse n'imodoka zisanzwe kandi hakaba hari n'agahanda k'abanyamaguru aho abantu badakoresha imodoka bagomba kunyura.

Uyu ni umuhanda, ukaba urimo ikinyabiziga cy'ikamyo ndetse n'amamoto, aho abamotari batwaye abagenzi ahantu hagiye hatandukanye kandi hari n'akayira k'abanyamaguru aho tubona umuntu urimo kugakoresha ndetse n'ibiti byegereye umuhanda.

Uyu ni umuhanda ukaba urimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo ikamyo, harimo moto ndetse n'igare, muri uyu muhanda nanone harimo umunyamaguru, urimo gukoresha agahanda kabugenewe, aho umuntu udakoresha ibinyabiziga agomba kunyura, gusa nanone muri uyu muhanda, harimo imyobo isa umwanya wangiritse ukeneye gusanwa.

Umuhanda urimo ibinyabiziga byinshi bigiye bitandukanye byiganjemo amamodoka n'amamoto, tukabona hirya mu gahanda k'abanyamaguru harimo amamoto menshi, amenshi tubona akoreshwa n'amashanyarazi, aya ngaya akaba ategereje abagenzi bo gutwara.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga birimo imodoka n'amamoto atwaye abagenzi, ahantu hagiye hatandukanye, kandi turabona ko hari n'akayira k'abanyamaguru, aho tubona umudamu umwe ahagaze areba muri telefone ye.

Uyu ni umuhanda ariko usa nk'aho wangiritse urimo ibitore, ukaba ugomba gusanwa, mu muhanda harimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye imodoka, moto, ndetse n'igare kandi hakaba hari n'agahanda k'abanyamaguru.

uyu ni umuhanda utuje, utarimo ibinyabiziga byinshi, hakaba harimo umuntu utwaye igare, harho ibiribwa biri mu mufuka, uyu muhanda birasa nkaho wangiritse, ugiye urimo ibitobore, ukeneye gusanwa kandi hakaba hari n'agahanda k'abanyamaguru.

Uyu ni umuhanda utarimo akavuyo k'imodoka nyinshi, harimo umumotari utwaye umugenzi ndetse no hirya harimo irimo kugenda, kandi uyu muhanda wegereye ibiti byinshi birebire.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, amamoto, ikamyo, ndetse turabona ko no mu gahanda k'abanyamaguru hari umudamu uhahagaze ufite ibisheke arimo kubicuruza biri mu ndobo.

Uyu ni umuhanda, ukaba urimo kunyuramo ikamyo, kandi hakaba harimo n'umumotari uparitse moto ye ku muhanda, hariho akayira k'abanyamaguru, aho abantu badakoresha imodoka bagomba kunyura.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga byiganjemo amamoto, ndetse n'ikamyo, ku gahanda k'abanyamaguru, harimo umuntu utwaye igare arimo kukagenderamo ndetse no ku muhanda hari ibiti birebire bihakikije.

Umuhanda ukaba urimo ikamyo ikorera kampani ya SP, icuruza amagazi iyi kamyo ikaba irimo amagaze menshi atukura, kandi ku muhanda turabonaho n'akayira k'abanyamaguru nk'abantu badakoresha imodoka bagomba kunyura ndetse n'ibiti bihegereye birebire.

Uyu ni umuhanda uriho ibinyabiziga bigiye bitandukanye, aho tubona amakamyo ndetse n'imodoka zisanzwe, kandi tukabona ko uyu muhanda ufite n'agahanda k'abanyamaguru, aho tubona umudamu wikoreye indobo, tukabona n'aho hari ibiti, aho umuntu arimo guturuka hirya iyo mu biti, tukabona na none hari amazu yubatse ku muhanda yegereye aho ngaho.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, amakamyo, imodoka zisanzwe, amamoto atwaye abagenzi ahantu hagiye hatandukanye, hakaba hari n'agahanda k'abanyamaguru. Aho tubona abanyamaguru barimo kugakoresha, kandi hari n'ibiti byegereye umuhanda birebire.

Umuhanda uriho ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba hari n'agahanda k'abanyamaguru, aho tubona umukarani yikoreye umufuka kandi kuri uyu muhanda hakaba hari n'ibiti birebire biwukikije.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga birimo coaster ndetse na moto, aho moti imwe hariho umudamu ukikiye umwana, hakaba hari n'agahanda k'abanyamaguru, ariko uyu muhanda urasa nkuwangiritse ukeneye gusanwa.

Uyu ni umuhanda urimo kugenderamo amamoto kandi ku ruhande hari agahanda k'abanyamaguru aho abantu badakoresha imodoka cyangwa ikindi kinyabiziga bagendera, kuri uyu muhanda na none hari ibiti birebire bihegereye.

Uyu ni umuhanda, ukaba uri hafi y'ibiti, hakaba harimo ikinyabiziga cy'ikamyo kirimo ama matera menshi yo kuraraho, hakaba hari na moto irimo kugenda muri uyu muhanda.

Uyu ni umuhanda ariko usa nk'aho wangiritse, waratobotse, hakaba harimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, amamodoka, amakamyo ndetse n'amamoto, ku ruhande rurimo akayira k'abanyamaguru hakaba harimo umukarani wikoreye umufuka awujyanye ahantu.

Uyu ni umuhanda uriho ikinyabiziga cy'ikamyo ndetse n'igare, hakaba hari n'agahanda k'abanyamaguru, aho tubona umuntu urimo kugakoresha afite aho agiye kandi tukabona ko no ku ruhande rw'uyu muhanda hari ibiti birebire byiza.

Ni umuhanda urimo ikamyo, hakaba hari n'amagare arimo kugendera mu muhanda kandi mu kayira k'abanyamaguru tukabonamo abantu barimo kuhagenda bagenda ahantu hatandukanye, tukabona na none ibiti bikikije uwo muhanda.

Uyu ni umuhanda urimo kunyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ariko biragaragara ko uyu muhanda utameze neza wagiye wangirika ukeneye gusanwa, muri uyu muhanda harimo ikamyo irimo amakaziye menshi ay'inzoga ndetse n'aya fanta, hakaba hari n'umumotari utwaye umugenzi.

Umuhanda uriho ibinyabiziga byiganjemo kwasiteri ndetse na moto ebyiri, turabona n'agahanda k'abanyamaguru gakikijwe n'ibiti byinshi.

Uyu ni umuhanda urimo kunyuramo igikamyo ndetse na moto ihetse umugenzi, hakaba hari n'agahanda k'abanyamaguru, aho abantu badakoresha ibinyabiziga banyura, uyu muhanda kandi ukaba uri hafi y'ibiti birebire.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, kimwe mu binyabiziga tubona ni ikinyabiziga gitwara ba mukerarugendo, ikindi kinyabiziga ni ikiri mu mu ubwoko bwa moto kandi iki kinyabiziga kikaba, gifite nimero ya telefone kuri cyo, nanone tukabona ku gahanda k'abanyamaguru hari abanyamaguru babiri barimo kukagendemo.

Uyu ni umuhanda urimo kunyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, harimo moto zitwaye abagenzi, harimo igikamyo, ndetse na kwasiteri. Uyu muhanda ukaba ufite n'ibiti birebire bihegereye ndetse hakaba hari n'agahanda k'abanyamaguru, aho bagomba kunyura batari mu binyabiziga.

Hano ni muri gare, haba hari ibinyabiziga bitandukanye n'abagenzi baba bagiye ahantu hatandukanye, kandi baba bari butwarwe n'ibi binyabiziga.

Umuhanda munini utuje, ufite n'agahanda k'abanyamaguru, gakikijwe n'ibiti, kandi turabonamo abamotari babiri, barimo gushakisha abagenzi bo gutwara.

Uyu ni umuhanda mwiza cyane utuje ukikijwe n'ibiti, indabo nziza kandi ntabwo harimo akavuyo k'ibinyabiziga byinshi, harimo umumotari uhetse umugenzi ugiye ahantu runaka.

Uyu ni umuhanda, ukaba urimo kugenderamo ikamyo, ifite ibara ry'umweru, ku ruhande rw'umuhanda harimo akayira k'abanyamaguru, aho abantu batarimo gukoresha ibinyabiziga banyura ndetse hakaba hegereye n'ibiti birebire.

Uyu ni umuhanda ukaba urimo kugenderamo kwasiteri ndetse na moto zihetse abagenzi, hakaba hari ku ruhande agahanda k'abanyamaguru aho abantu badakoresha ibinyabiziga bagomba kunyura ndetse kuri uyu muhanda hakaba hari n'ibiti birebire biri hafi yawo.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye birimo ikamyo, imodoka zisanzwe, moto ndetse n'amagare. Hakaba hari n'agahanda k'abanyamaguru, aho abantu badakoresha imodoka bagomba kunyura, kandi uyu muhanda ukaba wegereye n'ibiti.

Uyu ni umuhanda ukaba urimo kunyuramo ibinyabiziga birimo ikamyo ifite ibintu itwaye, hakaba hari n'imodoka isanzwe, hari n'agahanda k'abanyamaguru, aho tubona umunyamaguru arimo kugakoresha kandi hari n'ibiti birebire byegereye umuhanda.

Uyu ni umuhanda utarimo ibinyabiziga byinshi, hakaba hari n'ibiti byinshi birebire byegereye umuhanda. Ndetse hakaba hari n'agahanda k'abanyamaguru aho abantu badakoresha ibinyabiziga banyura.

Uyu ni umuhanda ukaba urimo ibinyabiziga byinshi byiganjemo amamodoka, amamoto ndetse n'amabisi kandi tukaba tubona n'abantu barimo kugenda n'amaguru mu muhanda, hirya hakaba hari ibiti ndetse n'amapoto mu muhanda.

Uyu ni umuhanda w'igitaka kandi ukaba utuwe n'amazu menshi, hari n'ibiti birebire biri imbere y'ayo mazu, hari abamotari bahagaze bategereza abagenzi ndetse hari n'imodoka ziri ku ruhande zihahagaze.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye. Hakaba harimo igikamyo. Hakaba harimo abamotari, abafite abagenzi ndetse n'abadafite abagenzi. Hari n'agahanda k'abanyamaguru. Aho abanyamaguru barimo gukoresha bagenda. Ndetse uyu muhanda ukaba wegereye ikiraro.

Uyu ni umuhanda utariho ibinyabiziga byinshi, utuje ufite agahanda k'abanyamaguru kegereye ibiti byiza, hariho amamoto makeya atwaye abagenzi ahantu hagiye hatandukanye.

Uyu ni umuhanda ukaba urimo kugenderamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ikamyo, moto ndetse hakaba hari n'ahantu habugenewe, aho abagenzi bategerereje ibinyabiziga bagomba kwicara, hari na none agahanda k'abanyamaguru.

Umuhanda utarimo ibinyabiziga byinshi, harimo amamoto makeya abamotari bari ku ruhande bategereje abagenzi, hakaba hari n'igare riri mu muhanda rifite aho ryerekeza, hari nanone abantu barimo kugenda bari mu kayira k'abanyamaguru.

Uyu ni umuhanda, hakaba harimo ibinyabiziga bya moto bitwaye abagenzi babiri bafite imizigo. Kandi uyu muhanda ukaba ukikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye birebire ndetse n'amapoto.

Uyu ni umuhanda ukaba urimo gukoreshwamo ibinyabiziga bijye bitandukanye amamodoka amamoto kandi tukaba tubona ko harimo n'akayira k'abanyamaguru aho kari gukoreshwa n'abantu batandukanye bagiye ahantu hatandukanye hakaba hakikijwe n'ibiti birebire byiza.

Umuhanda urimo ibinyabiziga byari bitandukanye, hakaba hari ikamyo ituruka hepfo n'indi ituruka ruguru, ndetse hakaba hari n'agahanda k'abanyamaguru, aho abantu badakoresha imodoka barimo kunyura, kandi uyu muhanda ukaba uturanye n'ikiraro.

Uyu ni umuhanda munini uriho ibinyabiziga bigiye bitandukanye ariko ukaba warangiritse ukeneye gusanwa ndetse ukaba ufite n'agahanda k'abanyamaguru kandi ikindi uyu muhanda wegereye ikiraro.

Umuhanda utuje, utarimo ibinyabiziga byinshi kandi ukaba ufite n'agahanda k'abanyamaguru, aho abanyeshuri barimo kwambuka hakaba hari n'ibiti bikikije uyu muhanda.